Kuri iyi foto turahabona abantu basa n'abari mu mahugurwa cyangwa se basa n'abitabiriye inama runaka, bafite undi muntu uri kubagezaho imbere, ubahagaze imbere. Turabona basa n'abantu rero bakurikiye umuntu runaka ufite icyo ababwira, imbere yabo.

Hano ndahabona ibiro birimo abacamanza, cyangwa se abantu bashinzwe imanza, cyangwa se abantu bashinzwe kugenza ibyaha, aba bantu basa n'abiga ku kintu runaka, kuko baragaragara bicaye ku meza.

Hano turahabona ifoto igaragaza ikigo cya polisi, aho abaturage bahabwa serivisi zitandukanye zirimo ubucamanza, zirimo ubugenzacyaha ndetse n'ibindi byaha bishobora gukorwa bitandukanye.

Kizimyamwoto ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro ahantu aho ariho hose hateye inkongi. Iyi kizimyamwoto ikaba igaragara ahantu henshi hatandukanye hashobora kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Bakaba bayishyiraho kubera ko ishobora kwifashishwa mu gihe aho hantu hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Hano turabona ko ari abayobozi bari kurahira kurahira kikaba ari igikorwa cyitabirwa n'abayobozi bacaguwe cyangwa se bahiswemo n'abaturage kubw'inshingano runaka bagiye kujya bageza ku baturage mu buryo bwo gukorera igihugu , rero hano turahabona ifoto igaragaza abayobozi bari kurahira bakaba bagiye kwitabira ibikorwa byo guha serivisi abaturage zitandukanye nko gutanga imiyoborere myiza ndetse no kugeza igihugu ku iterambere rirambye nk'uko baba barabitorewe.

Rero hano naho turabona imodoka ebyiri ziri ku rugendo zishobora ariko kuba zirenze ebyiri usibye ko n'imodoka ziri ku rugendo zikaba zifite ahantu ziri kwerekeza izi modoka zirimo ibicuruzwa bitandukanye zikaba zerekeza ahantu zibijanye, zikaba zifashishwa mu kugeza nazo ibicuruzwa ku masoko.

Hano turahabona ikinyabiziga kikaba kiri mu muhanda. Iki kinyabiziga rero bikaba bigaragara ko cyifashishwa mu gutwara ibicuruzwa bigiye ku masoko, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Iki cyapa kiragaragaza ikoreshwa ry'amategeko y'umuhanda, aya mategeko akaba ariyo afasha abantu kwirinda impanuka zimwe na zimwe zihitana ubuzima bw'abatari bake, ibi bikaba bifasha mu kugirango bafashe abantu kubaho neza birinda impanuka.

Kuri iyi foto rero naho turahabona imodoka zisa n'aho ziri muri parikingi mu kigo cy'amashuri runaka cyangwa se mu kindi kigo gishobora kuba ari ikigo cya kaminuza cyangwa se ahantu hatangirwa serivisi za leta aha rero muri parikingi hakaba ari ahantu habugenewe imodoka zijya ziparika mu kigo runaka cyangwa se ahantu habugenewe imodoka zijya ziparika hashora kuba ari mu bitaro cyangwag se n'ahandi hantu.

Igare ni igikoresho cyifashishwa n'abanyarwanda mukugeza abagenzi aho bakeneye kugera, ndetse no kugeza ibicuruzwa ku masoko muri serivisi zitandukanye, ndetse hari abakifashisha bakora ingendo nk'izo kugeza ibicuruzwa ku isoko biteza Abanyarwanda imbere.

Moto nazo n'ibikoresho byifashishwa mu ngendo zitandukanye aho bifasha abagenzi kugera ahantu hatandukanye bifuza kugera, ndetse moto zikoreshwa mu kwihangira imirimo n'urubyiruko bigafasha n'igihugu mu iterambere kubera ko hari imisoro abamotari batanga zikagira inyungu ku gihugu.